Abaganga bane, n'undi wambaye umwambaro w'ubururu nawewe ushobora kuba ari umuganga cyangwa undi mukozi runaka naho kwa muganga, bari mu bitaro imbere aharyamye umurwayi n'ibindi bitanda byo ku ruhande bitarimo umuntu ariko bigaragara ko ari imbere kwa muganga.

Abaturage bishimye, barimo kuririmba, bambaye imyambaro yanditseho ngo, gira ubuzima. bivuze ko ari abaturage b'abajyanama b'ubuzima cyangwa abandi, begerejwe serivisi z'ubuzima naka.

Abantu benshi, bafite igitambaro kinini bifashisha bakora ubukangurambaga cyanditseho ngo duharanire kubaho neza twita ku buzima bwo mu mutwe bwa buri wese, bambaye imyambaro ijya kuba imwe isa y'ubururu hejuru no hasi kaki.